Abantu bicaye kwa muganga aho umwe yambaye umupira w'umukara, undi akaba yambaye umupira w'ubururu, undi akaba yambaye umupira w'umutuku, undi akaba yambaye umupira w'icyatsi abo bantu bose biragaragara ko bakomeretse ndetse aho bari hari inkuta inkuta zometseho amashusho bigaragaza neza neza ko ari kwa muganga.

Umubyeyi wazanye umwana we kwa muganga, umwana bakaba bari kumutera agashinge ariko muganga akabikora amusekera cyane kugira ngo umwana atarira cyangwa ngo abe yakivumbagatanya ateze akavuyo bituma muganga atamuvura.

Kurandura burundu kanseri y'inkondo y'umura, kanseri y'inkondo y'umura ni imwe muri kanseri ebyiri mu Rwanda, aho abantu maganataratu bashyashya bayirwara ndetse n'abantu maganataratu bagapfa buri mwaka, igisigaye gukorwa

abana b'abanyeshuri bavuye kwiga bambaye amashati y'icyatsi, harimo umwana umwe w'umuhungu wambaye ishati yumweru n'umupira wumweru, uwo mwana akaba ari kunywa amazi kuri rubine ikaba ifunguye ari kuyanywa akoresheje intoki adakoresheje igikombe.

Ababyeyi babiri aho umwe ari umuganga undi akaba ari umubyeyi wazanye umwana we kwa muganga. Umubyeyi umwe akaba afashe umwana mu biganza amwicaje ku bibero kugira ngo muganga amuhe imiti. Muganga akaba ari kumuha imiti mu gakombe ka.

Ivomero rusange, aho abaturage baza ari benshi, bakaza gushaka amazi, bigaragara ko iryo vomero rusange ari rya vomero riba rikura amazi mu butaka, ukabona amazi aruko ubanje gupompa icyuma, kizamura amazi mu butaka.

Umumama usa neza wambaye ikote ry'ubururu bwijimye w'inzobe, akaba ari umufatanyabikorwa mu by'ubuzima, akaba ahagaze mu cyumba aho yaje gufatanya n'abandi mu bikorwa by'ubuzima.

Uburyo bwo kwegera abaturage kugira ngo hagenzurwe ubuzima bwo mu mutwe, bikagaragara ko ari ivuriro ry'ubuzima bwo mu mutwe ariko rigendanwa riva ahantu hamwe rikajya ahandi, Imodoka ikaba yagiye gusura abaturage kugira ngo abaganga bamenye.

Umuganga wambaye amarineti uri kurebera ku mashusho uburyo amenyo yumurwayi ahagaze. Akareba niba ahagazemo neza cyangwa ahengamye cyangwa ahagaze neza nyine kugirango abone uko amuvura.

Abantu babiri, aho umwe ari umuganga, bikaba bigaragazwa no kuba yambaye uturindantoki tuzwi ku izina rya ga, utwo turindantoki akaba ari kutwifashisha afata agakoresho kandi, ari gukoresha yoza amenyo y'uwo bari kumwe.

Mu ishuri aho mwarimu ari kwigisha umunyeshuri muto, wambaye impuzankano y'icyatsi, amwigisha urwasaya rw'ikiremwamuntu uburyo ruteye, akoresheje ibikoresho mfashanyigisho.

Umuganga bigaragara ko ari aho bapimira ibizamini by'indwara bigiye bitandukanye. Uwo muganga afite ibikoresho bitandukanye birimo umunzani, yambaye agapfukamunwa ndetse n'amadarubindi agaragaza ko yirinda kuba yakwandura indwara.

Umusaza n'umukecuru bigaragara ko babana bari gusangirira ku meza barya ibiryo byiganjemo imboga barira ku masahani y'umweru bari kurya ariko ku meza hateretse ibikombe bibiri birimo amazi umusaza yambaye ishati itukura aho umukecuru yambaye ishati y'ubururu.

Abahinzi bateraniye hamwe rwose bigaragara ko bishimye bishimiye kuba barejeje neza cyangwa se babonye ibihe byiza byimvura, abahinzi umwe muri bo yazamuye agasuka rwose bishimye bazamuye amaboko, bigaragara ko bashimishijwe n'ibihe barimo.

Umuforomo ufite ubwanwa bwiza bw'umukara cyane wambaye impuzankano y'abaforomo akaba afite igikoresho bifashisha bapima uko umutima utera icyo gikoresho akaba acyambaye mu izosi akaba ari kumwe n'undi mukecuru uri mu myaka hagati ya mirongo itanu na mirongo itandatu ufite inkoni mu kiganza.

Abantu bateraniye hamwe bari kwiga ku buryo bwo kwirinda ikwirakwira rya sida ndetse n'indi mibonano mpuzabitsina muri Afurika, hakaba hari abaterankunga batandukanye, nk'umuterankunga witwa UNAIDS, ndetse n'umuryango w'abibumbye agashami kita ku bagore.

Icyumweru cyahariwe ubumenyi nko kwiga kurwanya ndetse no kugabanya diyabete, diyabete akaba ari indwara itandura, ikaba ifata umuntu biturutse ku ngano nyinshi y'isukari iri mu maraso, iki cyumweru kikaba cyarahariwe kurwanya diyabete ndetse no guhugura abantu ibigendanye na diyabete.

Inyubako y'ikigo nderabuzima, aho hari urujya n'uruza rw'abantu baje kwivuza, bakaba baje bafite ibibazo bitandukanye, hakaba hari abicaye hamwe bategereje ko muganga aze abahe ibisubizo, hakaba hari n'umwana uhagaze ku byuma bifata ikigega, hakaba hari abahagaze imbere y'imodoka.

umuforomokazi wambaye agapfukamunwa k'ubururu, yambaye n'itaburiya y'akazi ndetse n'igikoresho bifashisha bapima uburyo umutima utera, uwo muforomokazi afite ikindi gikoresho cyifashishwa mu gupima uburyo umuvuduko w'amaraso ugenda.

Inyubako y'ivuriro ikorerwamo ibikorwa byo kubyaza no kubyara, aha akaba ariho babyarira kuko hazwi nko kuri materineti, hanze hariyo umugabo wambaye ishati y'icyatsi.

Icyumba cy'abarwayi kirimo ifoto nziza y'uturabyo, kikaba kirimo ibyuma byifashishwa na muganga mu kumenya uko umurwayi amerewe, kikaba kirimo igitanda cyiza gifite ibara ry'ubururu n'umweru n'ibiryamirwa byose umurwayi akenera.

Iduka ricuruza imiti, ryitwa Mediya soru famasi, Remera. Iyi farumasi cyangwa se iri duka ry'imiti rikaba riherereye i Remera. Kuri iryo duka hakaba haparitse imodoka imbere, iri mu ibara ry'ubururu bwijimye.

Icyumba giteguye neza cyane bikagaragara neza ko ari kwa muganga hateguye neza, hakaba har’intebe eshatu nziza, mur’iyo nzu hakaba harimo ururabo ndetse n’ameza atatu magari. Ku meza amwe afite aho barambika ibitabo y'igiti, akaba ariho ibitabo.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya Tabagwe hakaba hari amadarage buririraho bajya muri icyo kigo nderabuzima, hakaba hari urujya n'uruza rw'abantu baje kwivuza. Abo bantu bakaba bafite indwara zitandukanye, icyo kigo nderabuzima cya Tabagowe kikaba gifite ubusitani bwiza.

Icyumba kigaragaraza aho babagira abarwayi. Hakaba hari ibyuma byose bikenerwa na mugaga kugirango abe yabaga umuntu. Ibi bikaba bimufasha kubaga umuntu atagize igikoresho na kimwe abura.

Umuntu wambaye imyenda y'ubururu akaba afite agatambaro mu ntoki ukundi kuboko yagukoresheje ku kibero aho bigaragara ko ari guhanagura ahantu hakomeretse, biragaragara ko uwo muntu ari inzobe akaba yicaye ku ntebe y'umukara akaba ameze nk'uwako.

Amacupa atatu ari mu bwoko butatu bw'amavuta y'umwimerere akorwa mu gikakarubamba, akaba akorwa n'ikigo cyitwa foreva aro vira jeri, bikaba bikoze mu bwoko butatu.

Kwamamaza iby'umuti uvura, uyu muti ukaba ufite akamaro ku muryango, ukaba uvura kurangiza vuba, gucika intege n'ibindi bitandukanye.

Amazi ndetse n'ibindi bicuruzwa bimanitse muri etajeri biri aho bicururizwa, impande y'iyo etageri hakaba hari imashini yifashishwa mu gukonjesha izwi ku izina rya firigo.